Inzu isize irangi ry'umuhondo, hashushanyijeho inka mu ibara ry'umweru n'umukara ndetse n'agasumbashyamba ku ruhande, idirishya risize irangi ry'umukara.

Ikigo cy'ishuri cyubakishije amatafari aheye, gisakaje amabati. Gisezerangi ry'umuhondo, amadirishya n'inzugi bisize irangi ry'umukara. Impande haparitse imodoka ndetse hicaye abantu.

Imitako abana batoya bifashisha bari kwiga, yanditseho imibare kuva kuri rimwe, kugera ku icyenda, ibimenyetso byo guteranya ndetse n'amagambo yanditse mu mabara atandukanye.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati, imiryango n'amadirishya birafunguye bisize irangi ry'ubururu, imbere hateretse kandagira ukarabe, impande yayo hari imirima ihinzemo ibihingwa bitandukanye.

Igishushanyo k'inzu isakaje amabati y'umutuku, isize irangi ku nzugi ry'ubururu n'amadirishya, hariho utumenyetso tugaragaza ibice byayo.

Ishuri ririmo ameza ndetse n'intebe zisa ubururu hashushanyijeho imitako itandukanye harambitseho ikaramu y'igiti, ibikoresho bifashisha bandika ku kibaho, ibitabo biri mu kabati.

Abanyeshuri babiri, umukobwa n'umuhungu, bahagaze imbere y'abarezi babo, umugore n'umugabo wambaye udupfukamunwa. Inyuma yabo hari ameza ariho ibitambaro bisa ubururu n'umuhondo n'intebe zo kwicaraho.

Icyapa gisize irangi ry'umweru cyanditseho n'amagambo mu nyuguti asa ubururu n'umukara ndetse n'andi y'umutuku, impande hari indabyo ndetse n'ibiti.

Umwarimu wambaye itaburiya y'umweru, afite igitabo mu ntoki, ari kwigisha abanyeshuri bicaye ku ntebe imbere yabo hari amakaye. Impande hari akabati karimo ibitabo ndetse imbere ikibaho.

Abanyeshuri bicaye bambaye impuzankano zisa amashati y'umweru n'amapantaro ya kaki, imbere yabo hicaye abarezi ndetse n'abazungu, hari ameza ateretseho telefone.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zisa, amashati y'umweru n'amapantaro ya kaki, inkweto z'umukara n'amasogisi, bahagaze imbere y'urwibutso bari kunamira abazize Jenoside bashyira indabo ku mva.

Ikigo k'ishuri cyubakishije amatafari ahiye hasizeho irangi ry'umuhondo, amadirishya y'ibirahure asize irangi ry'ubururu asakaje amabati, imbere yabo hari abantu ndetse n'abubatsi.

Ishuri ry'incuke rbakishijeje amatafari ahiye, asizaho irangi ry'umuhondo ndetse risakaje amabati. Imbere yaho hari abagabo babiri bari gutambuka ndetse hari n'umwicugwa w'abana hanze.

Ahantu hashashe amakaro mo imbere hateretsemo intebe isa ubururu iraditseho urupapuro rwanditseho n'amagambo y'umukara ndetse n'ikayi hejuru yayo.

Abagabo babiri bambaye amashati y'igitenge bari mushuri ririmo ameza n'intebe, ndetse bafite impapuro, imbere yabo hateretse imashini.

Abantu bari mu cyumba k'inama kinini bicaye ku ntebe zisa icyatsi n'ameza imbere yabo, bafite amakaye n'amakaramu ndetse ku meza hateretse amazi yo kuywa.